Urubyiruko mu rwego rwo kwihangira akazi, bakora ibintu bikomeye cyane, bakabika ndetse bakabikura amafaranga binyuze ku muyoboro w'itumanaho wa MTN. Abantu benshi bihangira aka kazi bavuga yuko babonamo amafaranga ashimishije.

Kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga bikorerwa kuri telefone igendanwa, aho umuntu umwe yoherereza undi amafaranga, yarangiza agahita ajya kuyabikuza.

Mu rwego rwo kwihangira umurimo, urubyiruko nyarwanda rwihangiye umurimo rubinyujije mu gukorera ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho bafasha mu kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga.

Muri iki kinyejana tugezemo kubika amafaranga mu mufuka ntabwo ari ibintu byiza, dore yuko bashobora no kuyakwiba cyangwa se agahira mu nzu. Niyo mpamvu itumanaho ryagakemuye ryiganjemo airtel, aho umuntu abika akanabikuza amafaranga akoresheje uburyo bw'itumanaho bwa airtel money.

Mu rwego rwo kubitsa no kubikuza amafaranga hifashishijwe umuyoboro w'itumanaho wa Emutiyene, byatumye abantu babikaga amafaranga mu mifuka, bajya kuyabika ku matelefone yabo kuko baba bafite aho babikorera.

Urubyiruko rwinshi rwo mu ntara y'Iburasirazuba mu rwego rwo kwihangira umurimo, rucuruza amayinite ya Airtel, aho baba bafite iseta ku muhanda, barahashinze umutaka wa Airtel, bagacuruza amayinite, bagafasha ndetse no kubibutsa no kubikuza amafaranga.

Umuyoboro w'itumanaho mu rwanda wa Airtel ugaragazwa n'ibirango by'amabara y'umutuku cyane cyane ahantu haba hari icyicaro cy'uwo muyoboro w'itumanaho, abantu bashishikarizwa kugura amatelephone ya Airtel.

Mu Rwanda harimo ibigo byinshi bitandukanye, muri ibyo bigo twavugamo nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, tukavugamo ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu mu Rwanda ndetse tukavugamo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi.

Nta muntu ukibika amafaranga mu ihembe cyangwa se mu mufuka kuko MTN yabikemuye, iyo umuntu ashaka kubitsa cyangwa se kubikuza amafaranga agana ishami cyangwa se icyicaro cya MTN bakamufasha.

Abayobozi batumirwa mu nama cyane cyane mu karere ka Nyagatare, kugira ngo bigishwe uburyo bashobora kwihangira imirimo, nabo baze kujya kubyigisha abaturage bayoboye, mu rwego rwo kwiteza imbere.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa gandurarugo, ibingibi mu Karere ka Nyagatare bihingwa hifashishijwe amatsinda dore y'uko abaturage baho bahinga igihingwa kimwe ku buso.

Mu Karere ka Nyagatare iyo umuntu abaye indashyikirwa ashyikirizwa ikemezo k'ishimwe. Icyo kemezo akagihabwa n'abayobozi b'akarere ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bo mu nzego za Leta.

Umuntu wese witabira inama aba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye, ibingibi bigakorwa iyo umuntu amanitse urutoki akaka umwanya akawuhabwa, akabona gutanga igitekerezo cye.

Ubuhinzi bw'umuceri ni ubuhinzi bukorerwa ku buso bunini cyane, bugakorerwa ahantu mu bishanga haba hari amazi kuko umuceri ukenera kuba ahantu haba amazi menshi.

Abanyarwanda bashishikarizwa kubaka inzu z'amayetaje kuko zituma ubutaka buboneka cyane, ahantu hari kubakwa amazu menshi hakaba hakoreshwa mu buhinzi ndetse n'ibindi bitandukanye, na ho amazu akaba ari etaje.

Abakarani bakora akazi katoroshye dore y'uko ari bo bapakurura imizigo yose iba iri mu modoka bakayigeza aho igomba kujya, aka ni akazi katoroshye gusa gatuma biteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo.

Binyuze mu miyoborere myiza iri mu Rwanda abaturage ndetse n'abayobozi bagirana inama, bakaganira ku bibazo bibugarije babinyujije mu matsinda magufi ndetse n'amakoperative atandukanye kugira ngo bakemure ibibazo.

Mu rwego rwo gutunganya umusaruro neza ukomoka ku bigori mu Karere ka Nyagatare, iyo bimaze kwera babikusanyiriza ahantu mu nzu yabugenewe bikazahumira byamara kuhumira bakabihungura impungure zivuyemo zigakoreshwa bari gukora amafu atandukanye.

Utubari ndetse n'utubyiniro iyo udusuye usangayo amoko atandukanye y'inzoga, izo nzoga ziba zifite alukoro zica ibihaha by'umuntu ugasanga akurijemo indwara y'ibihaha ariko nanone iyo wafashe alukoro nkeya iba ikenewe mu mubiri.

Utubari ndetse n'utubyiniro, usanga haba hariyo inzoga z'amoko atandukanye, zifite na alukoro. Izo nzoga iyo abantu bazinyweye, rimwe na rimwe usanga baba abasinzi.

Utubyiniro dutandukanye ndetse n'ama bar aherereye mu karere ka nyagatare bitanga umusaruro utubutse. Dore y'uko iyo umuntu ashaka kujya kuruhuka ndetse no kugira icyo anywa yerekeza muri utwo tubyiniro ku masaha y'ijoro.

Amacupa avamo inzoga zipfundikiye iyo amaze gukoreshwa arongera agakusanywa agasubizwa ku ruganda rukora inzoga kugira ngo bongere bazishyiremo bwa kabiri, ibi ngibi bikaba bifasha mu kurinda ibidukikije.

Amaduka acuruza imyenda y'abadamu yiganjemo ibitenge, usanga abayakoramo bishimye cyane bagaragaza yuko atanga inyungu ku bayakoramo.

Iyo ugeze ahacururizwa ibiribwa byiganjemo akawunga, umuceri ndetse n'isukari usangamo n'ibindi bitandukanye nk'amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo kurya. Ibi byose bigacururizwa ahantu habugenewe.

Iyo ugeze ahacururizwa ibikoresho gakondo uhasanga ibikoresho bitandukanye byiganjemo uduseke, imyambaro y'abantu ba kera, inigi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu bize ibigendanye n'iyobokamana ku munsi w'icyumweru bajya mu materaniro bagasenga ndetse n'abapasiteri bakababwiriza ku ijambo ry'Imana, ibi ngibi bigatuma bagira indangagaciro z'abakirisitu.

Insengero ziganjemo ama kiliziya, ziba zigomba kuba zituweho n'abapadiri kugira ngo buri cyumweru basomere abakirisitu misa kugira ngo bumve icyo Imana ibashakaho, ibi ngibi bituma abatuye u Rwanda bagira indangagaciro z'abanyarwanda ndetse n'iza gikirisitu.

Mu nsengero ziherereye mu karere ka Nyagatare abapasitori ndetse n'abandi bayobozi b'insengero bicara hasi bakaganira ku cyagirira Abanyarwanda akamaro ndetse n'abakiriristu babo akamaro.

Abakirisitu basengera muri kiriziya Gatulika usanga buri munsi wo ku cyumweru mu gitondo bajya gusenga Imana. Ibi ngibi bigatuma bagira indangagaciro z'abakirisitu muri sosiyete.

Kugira ngo umwana akure ameze neza, bisaba yuko ajyanwa kwa muganga bakamupima bakamuvura indwara zitandukanye. Cyane ko hari n'ababajyana kwa muganga bagiye kubatezamo amaherena kugira ngo bakomeze kugaragara neza.

Kuramya ndetse no guhimbaza Imana ni ibikorwa bikunda gukorwa n'urubyiruko ndetse n'abakunda Imana muri rusange, insengero zimwe na zimwe ziherereye mu karere ka Nyagatare bakunda gusenga, bagasirimba ndetse bagahimbaza imana.

Insengero ni bimwe mu bikorwa remezo bihuriraho n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye biganjemo abana, urubyiruko, abasore, inkumi, abakecuru ndetse n'abasaza bagiye kwiyambaza Nyagasani kugira ngo bamuture imitima yabo bamusabe n'ibyo bakeneye.

Ubwoko bw'igitanda gisashe neza gifite amashuka meza ndetse n'imisego, gikoreshwa n'abantu baba basuye agace runaka bagahitamo kuharara.

Ibitanda bimeze neza bishashe, iyo umuntu abirayeho arara nta mavunane afite kandi akabyuka ameze neza, bugacya ajya mu kazi ke nta kibazo afite.

Iyo abantu bakeneye kuruhuka cyane cyane kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru, bibasaba y'uko bajya kwishimishiriza muri pisine ndetse n'ahandi hantu hari amajaride atandukanye.

Abantu iyo bakeneye kujya kuruhuka mu mutwe bajya mu kajaride kaba kameze neza cyane, hafi ya pisine ku buryo iyo bakeneye koga bahita bajya muri iyo pisine bakoga bagakomeza kugubwa neza.

Abantu bakunda kujya gutemberera ahantu kure bibasaba yuko iyo bagezeyo barara, iyo bagiye kurarayo rero bajya mu mahoteli atandukanye aba afite uburiri bumeze neza cyane ku buryo iyo baburyamyeho babyuka nta mavunane bafite.

abantu bakora urugendo rurerure cyane cyane abagiye gusura ibyiza nyaburanga kuko baba bagiye ahantu kure birangira barayeyo, aho ngaho barara ni muri hoteli aho haba hari ibitanda bishashe neza, biba byiteguye kwakira abo bantu bagiye aho ngaho.

Ni ngombwa yuko umuntu iyo yagize urugendo rurerure ku buryo atari butahe ajya gushaka icumbi akarishaka aho arara. Nta handi ajya kurishaka ni mu macumbi aba yarubatswe n'abantu kugira ngo aharuhukire buke mu gitondo akomeza urugendo.

Iyo umuntu ageze mu mujyi wa Nyagatare ntakindi abonayo cya mbere, ahita abonayo hoteli yubatseyo nziza cyane, ibereye ijisho kuyireba kandi ifite ibyumba byinshi, igeretse n'inshuro nyinshi hejuru kuko n'inzu igezweho.

Inzu zicumbikwamo n'abantu baba bavuye kure uba usanga ari inzu zigeretse inshuro nyinshi kuko ziba zakira umubare munini w'abantu baba baje kuharara baje gusura igihugu.

Mu isoko habayo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imyambaro y'inkweto zifunguye ndetse n'izifunze. Inkweto zifunguye zigurwa n'abantu bazikoresha iyo bari kuzikarabiramo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu byerekezo bitandukanye, bahuriye mu isoko bagiye kugura ibitoki ndetse n'ibindi biribwa bibafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iyo abantu bari gutekera ku mbabura bakoresha amakara kandi amakara akoreshwa aba ari make cyane ugereranyije n'inkwi umuntu yagakoresheje aramutse ari gutekera mu mashyiga ya kera, ibi ngibi rero bigatuma ibidukikije birindwa kubera yuko amashyamba atagitemwa cyane abantu bashaka inkwi.

Abacuruzi bacuruza imbuto n'imboga, bakuramo umusaruro utubutse cyane cyane werekeranye n'amafaranga bakoresha bari gukemura ibibazo baba bafite mu ngo zabo, nko kugura ibikoresho by'ishuri, iby'abana ndetse n'ibindi.

Abantu bakora ubucuruzi buciriritse b'abazunguzayi baba bacuruza imyenda, bakuramo amafaranga n'ubwo buri gihe leta ibibirukaho kugira ngo batange imisoro, bakajya gukorera ahandi mu masoko yemewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye mu isoko bagiye kugura no kugurisha ibintu bitandukanye byiganjemo: amavuta, imifuka ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa ngandurarugo gikunze kugaragara mu ntara y'iburasirazuba kandi kigatanga umusaruro utubutse aho ababihinga babisagurira amasoko iyo bamaze kwihaza mu biribwa.

Igitoki ni kimwe mu gihingwa ngandurarugo. Iyo abantu bamaze kwihaza mu biribwa, bisaba yuko basagurira n'amasoko nibwo bafata ibitoki baba bejeje bakajya kubigurisha ku masoko kugira ngo biteze imbere.

Mu isoko ry'ibiribwa habamo ibiribwa bitandukanye ari byo igikukuri, amavuta y'ibihwagari, indagara, akawunga, umunyu ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Mu karere ka Nyagatare hariyo abantu bacuruza imyenda itandukanye, muri iyo myenda haba harimo amasengeri, harimo imipira ndetse n'inkweto, bakabona abakiriya, barangiza bakinjiza amafaranga menshi.

Abantu benshi iyo bafite urugendo bari kujya ahantu kure, bibasaba yuko baza kurara, aho ngaho baba bari burare ni muri hoteli cyangwa se muri moteri, aho bishyura amafaranga bakarara aho ngaho.

Iyo amasaha ya saa sita ageze, abantu baturutse mu mirimo itandukanye, bahurira ahantu bacuruza amafunguro ahiye kugira ngo bayarye, nibamara kuyarya basubire mu kazi kabo ka buri muntu.

Ibinyabiziga byinshi byiganjemo amapikipiki mu karere ka Nyagatare, bikunda kuhakorera cyane mbere y'uko abantu baba bari kubitega bava mu duce tumwe bajya mu tundi, bagiye mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwo hari harateye icyorezo cya Korona Virusi iyo umuntu yajyaga gutega moto yagombaga kumanza agakaraba umuti wagenewe gusukura intoki kugira ngo yurire moto mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo.

Ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse n'amapikipiki byubahiriza amategeko y'umuhanda cyane yuko iyo ugeze mu muhanda w'umukara, aho bihurira ari byinshi uhasanga amatara amenyesha yuko ikinyabiziga kigomba kugenda cyangwa se ko gihagarara, abagenzi bagatambuka.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu bukorerwa mu mihanda itandukanye bugira uruhare mu mihahiranire hagati y'ibice bimwe ndetse n'ibindi aho usanga abayobozi b'ibinyabiziga cyane cyane iby'amapikipiki batwaye amagaze ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abantu.

Abayobozi b'ibinyabiziga biganjemo abatwara amapikipiki, iyo bigeze mu gihe cy'imvura nyinshi, usanga bahura n'ikibazo gikomeye kuko imihanda yo mu byaro, iba yuzuyemo amazi, ibi ngibi bigatuma ubuhahiranire hagati y'ibice n'ibindi budakunda ndetse n'ingendo zikaba zigoye cyane.

Imihanda ya kaburimbo yoroshya ingendo kandi igatuma ibinyabiziga byiganjemo nk'amapikipiki ndetse n'imodoka bitandura ngo bigore abaribuze kuzoza kubera yuko umuhanda uba ufite isuku.

Abamotari bagira uruhare rukomeye mu gutwara ibicuruzwa ndetse n'abantu, dore yuko baba bafite imihanda inyerera kandi yihuta ya kaburimbo, ibi bigatuma abamotari biteza imbere.

Imihanda ya kaburimbo yoroshya urugendo, cyane cyane ku bantu bagendera ku binyabiziga nk'amapipiki usanga amapikipiki yabo atajya yandura, bitewe yuko umuhanda wa kaburimbo uhorana isuku.

Ubwikorezi bw'abantu n' ibintu bukorewe kuri moto, busaba kuba umuyobozi w'ikinyabiziga azi gukora akazi neza, akagakorera no mu mihanda myiza kugira ngo abone amafaranga.

abantu bakunda gutwara amapikipiki babona amafaranga kuko bafasha mu bwikorezi bw'ibicuruzwa ndetse n'abantu, aho baba bari gutunda ibicuruzwa byiganjemo akawunga ndetse n'ibindi.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu mu karere ka Nyagatare, bukorwa neza kubera imihanda yaho myiza. Abatwara amapikipiki bigaragara yuko babona amafaranga, aturuka muri ubwo bwikorezi bw'abantu n'ibintu.

Imihanda igezweho yubatse neza ya kaburimbo yorohereza abayobozi b'ibinyabiziga mu ngendo zabo za buri munsi nk'abamotari, abashoferi ndetse n'abanyonzi usanga urujya n'uruza rwabo muri iyo mihanda rumeze neza.

Abantu batwara ibinyabiziga, biganjemo abamotari, baba bagenda mu muhanda wa kaburimbo batwaye bagenzi babo, ibi ngibi bituma babona amafaranga yo kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu cyabo imbere.